Mu kigo cy'amashuri, aho abana bambaye impuzankano y'ishuri, bari gutozwa gukaraba, intoki bifashishije amazi meza ndetse n'isabune, bagatozwa gukoresha amazi atemba kugira ngo barusheho kugira isuku ndetse bagahabwa n'impanuro, n'inyigisho za buri munsi, uko bazajya babikora.

Itangazo ryanditse, rigizwe n'igikorwa kizaba kijyanye n'ubukangurambaga bw'ubuvuzi, aho kizabera, umunsi n'itariki, abazakigiramo uruhare, abagabo n'abagore, higanjemo abazungu n'abirabura, umunsi ndetse n'impamvu y'iryo tangazo.

Umu mama wampaye agapfukamunwa, ari kwigisha umwana wambaye impuzankano y'ishuri gukaraba akoresheje amazi meza, ndetse n'isabune aha amwigisha gukura imyanda mu nzara, ndetse akoga n'amazi atemba. Ibyo akabikora ahantu hari umwuka mwiza, ndetse n'amazi akayatega mu kintu kugira ngo atangiza ibindi bikorwa remezo.

Mudasobwa ni ingenzi kwa muganga, aho ikoreshwa ibika amakuru y'umurwayi, ndetse no gusuzuma umurwayi. Ibyo bigatuma barushaho gutanga serivisi nziza, ndetse abaganga bakarushaho kumenya amakuru y'umurwayi ku buryo bworoshye bakoze ubushakashatsi ku ndwara, ndetse n'icyorezo runaka.

Umubyeyi utwite akwiye kwitabwaho n'umugabo we wagize umuryango ndetse n'Igihugu muri rusange, aho ajya kwipimisha buri munsi akareba uko inda ye ihagaze ndetse n'umwana womunda akareba nimba ntakibazok afite, nyuma y'icyogihe cyose ajya kubyara ndetse afite kwitabwaho n'inzobere mu kubyaza.

Ahatangirwa inama ndetse n'ibiganiro mu inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima aho urujya n'uruza rw'abagore baje baje gukingiza abana indwara zitandukanye ndetse kugira ngo birinde indwara z'ibyorezo aho babakingiye iseru, imbasa ndetse n'izindi ndwara zandura.

Ahatangirwa serivisi z'abagore batwite, aho abarimo bose baba bambaye udupfukamunwa ndetse umurwayi n'umurwaza baba bambaye imyenda y'impuzankano kugira ngo birinde indwara zandura, umurwayi aba aryamye ku gatanda ndetse umurwaza ahagaze, aho umuganga akoresha ibikoresho byabugenewe kugira ngo yumve ko umutima utera w'umwana.

Mu nama itangirwamo ibiganiro by'ubuzima abari guhabwa ibiganiro bagizwe n'abagabo n'abagore ndetse uri gutanga ibiganiro afite indangururamajwi ,igitabo ari kwifashisha kugira ngo adasobwa mu byo atanga ndetse n'abantu bari ku mpande bari kuza ko bugenda bucya .

Abagabo babiri bari gusuhuzanya bamaze kuva mu nama, aho babarimo baravuga ku myanzuro ndetse n'ingamba bafata kugira ngo bateze imbere ubuvuzi mu gihugu, imbere yaho hari intebe yifashishwaga bicayeho hari na mikoro yifashishwaga mu kurangurura amajwi.

Ihuriro ry'imishinga itegamiye kuri Leta, hose ifite intego yo kugira ngo bateze imbere, ubuzima bw'ikiremwamuntu, harimo nka Banki Itsura Amajyambere y'Isi ndetse isuku kuri bose, noneho amazi kuri bose ndetse n'umushinga ushinzwe ubuzima bw'ikiremwamuntu ku isi.

Ku ivomero hari abantu batatu umwe ari kubavomera abandi babiri bari kunywa amazi, hari amajerekani abiri yifashishwa mu gutwara amazi ndetse anafite isuku ivomero bari gukoresha rifite isuku ryubatswe na sima ndetse n'icyobo gifata amazi kugira ngo birinde ikwirakwizwa ry'amazi yanduye n'umwanda.

ikigo gishinzwe ubushakashatsi ku buzima ndetse no gukwirakwiza imiti ku bigo ndera buzima, cyanditse itangazo rivuga ngo kurwanya indwara ya Kanseri y’Inkondo y’Umura, a ho abantu magana atandatu bicwa na Kanseri buri mwaka ndetse byatanze yuko hagomba gufatwa ingamba zidasanzwe kugirango twirinde Kanseri y’Inkondo y’Umura.

Uburyo bworoshye bwo gukuramo kandagira ukarabe hifashishwa akajerekani, ibiti, aho ufata ibiti bibiri ukabishinga, mo hagati ugashyiramo igiti kitambitse kirimo akajerekani ndetse ukifashisha n'umugozi kugira ujye ukandagira ku giti amazi amanuke, aho umugabo ari gukaraba amazi yifashishije kandagira ukarabe yo ku buryo bworoshye.

Ku ivomero aho urujya n'uruza rw'abantu baje kuvoma ndetse batonze imirongo kugira ngo birinde akajagari n'umutekano muke ku ivomero. Bamwe bari kwifashisha amagare kugira ngo batware amazi ahantu h'urugendo rurerure.

Mu cyumba kimwe cyatangirwamo serivisi z'ubuzima, aho umurwayi agiye kubagwa, aryamye ku gitanda, ari kongererwa umwuka, inzobere mu buvuzi ziramuzengurutse, zigizwe n'abagabo n'abagore, abadogiteri ndetse n'abaforomokazi, bari kumwongerera umwuka bifashishije ibyuma byabugenewe ndetse n'amaserumo.

Urujya n'uruza rw'abantu bari ku ivomero aho baje bitwaje ibikoresho bitandukanye byo gutwaramo amazi, baje bitwaje amabasi, amajerekani, amajage ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho abari kuvoma bagizwe n'abasore n'inkumi ndetse n'abakuze. Iri vomero rigizwe n'igisima rigaragara nkaho rivana amazi mu butaka.

Umuforomokazi yambaye ingofero mu mutwe kugira ngo yirinde ikwirakwizwa ry'indwara zandura, aho yamba agapfukamunwa kugira ngo yirinde indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ari gukoresha imashini yifashishwa mu gupima ukou umutima utera, imashini igizwe n'imigozi izana uku umutima utera, hari ikirahure kigaragaza imibare uko umutima utera ndetse imashini ifite n'amapine kugira ngo ikoreshwe mu byumba bitandukanye by'ubuvuzi.

Agatanda k'amasahani gakozwe mu biti kanitsweho ibase, ibikombe, amasorori, ibiyiku, amarushi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu guteka aho bifite akamaro kanini mu kwirinda indwara zandura ndetse n'indwara z'umwanda.

Ubuvuzi bw'bana kwa muganga, aho umubyeyi azana umwana aje kumuvuza akitabwaho neza n'umuganga ushinzwe kuvura indwara z'abana, aba yambaye imyenda imurinda ndetse n'amaga, atuma atabasha kwanduza umwana agiye kuvura indwara zitandukanye, harimo n'izandura.

Buri mudugudu uba ufite abajyanama b'ubuzima batatu, umwe ashinzwe ubuzima bw'abana, undi ashinzwe ubuzima bw'abagore batwite, indi ashinzwe kwita ku mirire, bajya bafata umwanya bakajya gusura abaturage bagenda bitwaje ibitabo by'imfashanyigisho kugira ngo barusheho gutanga neza ibyo bagiye kwigisha.

Inama yo kwiga kuri serivisi zitangirwa kwa muganga, aho bayigize bagizwe n'abagabo n'abagore ndetse imbere yabo hari amazi bakifashisha banywa ndetse bafite n'ibitabo bari kwandikamo ibyavugiwe mu nama ndetse n'imyanzuro, ingamba kugira ngo barusheho kubyibuka.

Ivomero rigizwe n'amarobine abiri, aho robine imwe iri kuzana amazi, ndetse hakaba hari umwana uri kunywa amazi akoresheje intoki ze, andi mazi akaba ari kugwa mu ndobo. Robine izengurukijwe n'amashyamba ndetse n'ibindi bimera kugira ngo arusheho kugira isuku.

Mu bigo by'amashuri usanga abarezi bigisha abana kunywa amazi meza asukuye, aho bababuza kunywesha amazi bakoresheje ibiganza byabo, mbere na mbere babanza gukaraba intoki ndetse bakoresha ibikombe bisukuye n'ibindi bikoresho byabugenewe nk'amacupa kugira ngo banywe amazi neza.

Mu ihema ririmo riratangirwamo serivisi z'ubuzima, aho umusaza wambaye ingofero ari gutanga ibizamini by'umuvuduko w'amaraso, aho umuganga ari gufata ibizamini by'umuvuduko w'amaraso yifashishije ibikoresho byabugenewe, kugira ngo amenye uko ubuzima bw'umurwayi bumeze, ndetse n'abandi bantu bari ku ruhande biteguye nabo gutanga ibizamini by'ubuzima.

Abana bari ku ivomero, aho bari kuvoma amazi, bifashishije imashini kabuhariwe, izamura amazi mu butaka, hakoreshejwe imbaraga za muntu, aho bari kuvoma amazi bakoresheje injerekani. Ndetse ivomero ryubatswe hafi y'ingo kugira ngo barusheho kwegerezwa amazi.

Itsinda rigizwe n'abagabo n'abagore, aho bamaze guhabwa inyigisho zijyanye n'ubuzima mu kwirinda indwara zandura n'izitandura, mu ndwara zandura, bigishijwemo SIDA, uburyo bayirinda ndetse n'ikwirakwizwa ryayo, aho ingingo zavuzwemo zanditswe ku rupapuro kugira ngo bakomeze bazibuke ndetse banazigisha abandi.

Ahari gutangirwa ubukangurambaga bwo kwirinda icyorezo cy'uburwayi bwa Ebola, aho itsinda rigizwe n'abantu, abahungu n'abakobwa bari gukina ikinamico y'ukuntu Ebola yandura n'uburyo bayirinda ndetse n'ingaruka zayo. Abari guhabwa ikiganiro higanjemo abana, abahungu n'abakobwa mbese biri kubera ku karubanda.

Kandagira ukarabe ni igikoresho cyifashishwa mu isuku yo mu ntoki, aho kigizwe n'indobo , ibase, aho indobo itega amazi ndetse ibase nayo igafata amazi yanduye, birakwiye yuko tuyikoresha tugira isuku naho abantu batandukanye bakaza bagakandagira bagakaraba bakagira isuku yo mu ntoki.

Itsinda rigizwe n'abagabo n'abagore bicaye mu nzu mberabyombi iberarimo inama, aho bari kuganira ku nsanganyamatsiko ijyanye n'ubuzima, bamwe bafite ibitabo, abandi bafite amakayi ndetse n'amakaramu yo kwifashisha mu kwandika ibitekerezo, ni inama n'inyunganizi biri gutangirwa mu nama.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'imifariso ndetse n'ameza manini, imbere yabo hari amazi kugira ngo bayanywe mu gihe bafite inyota bafite ibitabo bari kwandikamo ibyavugiwe mu nama ndetse n'imyanzuro, imbere yabo hari televiziyo nini yifashishwa mu kugaragaza ibyagezweho.

Isoko ry'amazi rigizwe n'ikiyo cy'icyuma, aho rishinze mu isoko, aho amazi yifashishwa bakaraba bayanywa, ndetse habamo n'inyamaswa zitandukanye n'inzoka, ibikeri, imitubu ndetse n'amafi.

Inzu mberabyombi iberamo inama, ahamanitsemo ibipapuro bitandukanye bigaragaza inama zabaye ndetse n'insanganyamatsiko y'inama, abarimo bari kubyina imbyino gakondo, bamwe bambaye ibitenge ,abandi bambaye amakanzu ndetse n'amajipo. Hirya yabo haba hari intebe zifashishwa mu kwicaraho.

Itsinda rigizwe n'ingimbi n'abangavu ndetse n'abasheshekanguhe, bavuye mu mahugurwa ajyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, uburyo babwirinda, ndetse bamenya ufite uburwayi bwo mu mutwe, bari gufata ifoto y'urwibutso, imbere hatangirwa serivisi z'ubuzima kugira ngo bajye barushaho kwibuka ibyabereye mu nama.

Umugore wambaye amataratara afite agapapuro mu ntoki, kagaragaza uwahawe ubuvuzi ndetse n'amahugurwa ko bakwinda no kurwanya indwara zo mu mutwe. Aho abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, bashyirwa hamwe bakigishwa bakabahumuriza bakabasana umutima.

Ubwonko ni urugingo ruherereye mu gice cy'umutwe, aho rufite akamaro kanini cyane mu gukontorora ibindi bice by'umubiri nk'amaboko, amaguru, kureba, gusinzira, kwasama ndetse no guhumurirwa. Aho bugizwe n'ibice bibiri: igice cy'iburyo n'igice cy'ibumoso.

Abaganga bavura indwara zo mu mutwe babasanga ku bigo nderabuzima ndetse n'ibitaro. Ndetse bajya bafatat n'umwanya bakegera abaturage bakabigisha ibijyanye n'indwara zo mu mutwe uburyo wazirinda, ndetse nuburyo wazikumira. Birakwiye kuba twajya tujya mu midugudu yacu tukitabira inama kugira ngo turusheho kunguka ubwenge.

Mu nzu iri gutangirwamo serivisi zijyanye n'ubuzima, aho uri gutanga ikiganiro ari umugabo, akaba ari kwigisha bagenzi be ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, akabibutsa y'uko ubwonko ari cyo gice gikontorora ibindi bice byose by'umubiri kandi iyo bugize ikibazo, bigira ingaruka ku bindi bice byose by'umubiri ndetse uko umuntu agaragara.

Umuganga w'inzobere mu ndwara zo mu mutwe, uri kuvura umwana ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. aho ari kwifashisha ingero zifatika nk'umucanga, inyamaswa zikoze mu ibumba ndetse n'ibindi bikoresho, kugira ngo arusheho kureba ikibazo umwana afite.

Imashini y'ikoranabuhanga yifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, iho igizwe n'ibice bitandukanye, igice kimwe ni icya televiziyo kigaragaza amashusho ndetse ifite amapine kugira ngo ibe yavanwa mu cyumba kimwe ijyanwa ahandi, imbere yaho hari intebe umuntu yicaraho kugira ngo ayikoreshe ndetse n'agapima umutima.

Umuganga w'inzobere mu buvuzi bw'amenyo aho ari kuvura umwana yifashishishije itoroshi kugira ngo arebe mu kanwa ikibazo kirimo yambaye ga kugira ngo hatagira indwara yanduza umwana zandura ndetse inyuma ye hari utubati tubikwamowo amakuru y'umurwayi.

Umuntu ari kwita ku isuku ye y'amenyo akoresha urudodo, ndetse n'ibindi bikoresho byabugenewe, kugira ngo arwanye indwara zandurira mu kanwa, ndetse iyo byanze yegera ababifitemo ububasha ndetse n'ubushobozi, inzobere kugira ngo barusheho kumwegera no kumwigisha uko akwiye kugira isuku yo mu kanwa.

Inzu y'umuturirwa hifashishwa mu buvuzi bw'amenyo ifite amagorofa abiri igizwe n'amadirishya menshi aho hariho uturindabasazi turinda abantu igihe bagize isereri kutagwa imbere hateye ibiti byifashishwa kugira ngo haze umwuka mwiza aba bahumeka

Ubukangurambaga ku cyorezo cya sida, bukunze gutangwa n'inzobere mu buzima, aho barinda bakigisha abaturage kuri sida ndetse n'uburyo bayirinda, sida n'indwara mbi cyane yica, yandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no mu gutizanya ibyuma bibaga, ibyo byose bigatuma umuntu ashobora kwandura sida.

Mu nzu kwa muganga ahatangirwagwa serivisi z'ubuzima, umurwayi arinjira muganga akamwakira, akamubaza ibibazo bijyanye n'ubuzima, muganga na we akumva ikibazo umurwayi afite, mbere y'uko amuhereza ibisubizo arabanza akabigenzura neza akumva niba amakuru agiye gutanga yizewe ijana ku ijana.

Abagore bari kuganira bicaye mu isoko ry'imboga n'imbuto, harimo inyanya, amatunda, amaronji ndetse n'ibitunguru, bari kuganira ibijyanye nuko bateza imbere ubucuruzi bwabo, ndetse n'uburyo bajya birinda ko bagira ibihombo mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho bamwe gutanga igitekerezo abandi nabo bakasubiza.

Abasheshakanguhe bari mu zabukuru bashyirwa hamwe mu nzu imwe kugira ngo babone uko bitaho icyarimwe. Haba hari umuganga wo kubitaho amenye, akurikirane n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, kuko benshi usanga bafite indwara zandura ndetse n'izitandura.

Kwita ku bakuze ni igikorwa cya buri munsi aho umuforomo agenda agapima ukuze uko umutima utera ndetse akenshi abikora yambaye agapfukamunwa kugira ngo atagira indwara yandura zo mu buhumekero ibyo bikaba buri munsi ndetse n'umuntu ukuze nawe agomba kwitabira icyo gikorwa kugira ngo amenye uko ubuzima bwe bwa buri munsi bumeze.

Umusaza n'umukecuru bari mu zabukuru, aho bari gukina imikino yo ku meza ingero nk'igisoro ndetse no kubuguza, aho bibafasha kwirinda indwara zo mu mutwe, harimo irungu rikabije ndetse no kwiheba n'izindi ndwara zifata abakuze nk'umuvuduko w'amaraso.

Ikirangantego cy'u Rwanda kigizwe n'uruziga rufite ipfundo, rugaragaza ubumwe bw'Abanyarwanda, ingabo zigaragaza umutekano, agaseke kagaragaza umuco, izuba rigaragaza icyizere cy'u Rwanda, amasaka agaragaza ubutunzi ndetse n'ubuhinzi, ibyo byose bikarushaho kugaragaza igihugu neza.

Minisiteri y'ubuzima ni imwe mu nzego nkuru zahatangirwa serivisi z'ubuzima aho ifite inshingano nko kwita ku bigonderabuzima ndetse n'ibitaro gushyiraho amategeko n'amabwiriza agenga ibitaro ndetse no gufatira imyanzuro uwishe amategeko n'amabwiriza agenga serivisi z'ubuzima.

Amahugurwa, yabereye mu nzu mberabyombi, aho bitabiriye amahugurwa bagizwe n'abasore n'inkumi, aho bifashe ifoto y'urwibutso kugira ngo barusheho kuzirikana no kwibuka ibyabereye mu mahugurwa, ndetse abatanze amahugurwa babagiriye inama y'uko bakwiye kwirinda ibiyobyabwenge.

icyumweru cyahariwe kurwanya indwara zitandura, aho hazibandwa ku ndwara z'igisukari abazitabira ibikorwa bazahabwa serivisi z'ubuzima, harimo kwirinda indwara zitandu durakoreshesheje indyo yuzuye ndetse kubapima indwara zitandura umuvuduko w'amaraso n'izindi zitandukanye.

Ni ihema rinatangirwamo serivisi z'ubuzima, aho abantu barifuza kuza kwipimisha indwara zitandura ndetse bagahabwa n'inama ndetse n'ubukangurambaga kugira ngo abantu barusheho kuza kwivuza ari benshi kuko serivisi zirimo ziratangwa n'abantu benshi.

Ugeze kwa muganga usanga hazengukijwe n'uruzitiro ndetse hakaba hari n'icyapa cyekana ko ari kwa muganga, ukimara kwinjira uhasanga ushinzwe umutekano akakwakirana ubwuzu, akakwereka aho ukwiye kunyura ndetse akakubaza na serivisi ushaka, akakwereka aho zibera.

Iyo ugeze hatangirwa serivisi z'ubuzima nko kurwanya Kanseri n'izindi ndwara, hanze uhasanga ubusitani bwiza buteyemo ibiti bizana umwuka mwiza ku bantu bagana aho hantu ndetse n'amadirishya yinjiza umwuka mwiza mu kigo nderabuzima mo imbere.

Inzu y'ababyaza ni aho umubyeyi abyarira ndetse bita ku mwana wavutse n'umubyeyi wabyaye, aho bahita bakingira umwana. Iyo uhageze uhasanga serivise itandukanye n'ahandi ndetse bakita ku mwana wavutse ndetse n'umubyeyi. Birakwiye ko tuhagana tukamenya uko hakora ndetse tukita no ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuzima, igizwe n'imashini kabuhariwe, yifashishwa mu kongera amashusho ndetse n'ingano y'ikintu umuntu ari kureba, amatara yifashishwa mu kumurika, televiziyo yifashishwa mu kwerekana amashusho ndetse no kuyagira manini, intebe yicarwaho n'umuganga uri kuvura.

Ugeze kwa muganga ahasuzumirwa indwara, uhasanga abaganga b'inzobere mu gupima. Ndetse no mu kuvura indwara, ndetse haba ari utubati tubikwamo ibizamini n'ibisubizo, hakaba hari amadirishya afasha mu kwinjiza umwuka mwiza, kugira babashe kwirinda indwara ndetse n'ikwirakwizwa ry'indwara.

Iyo ugeze ahatangirwa serivise z'ubuzima, uhasanga icyapa kinini kigaragaza izina ry'aho hantu ugiye, urugi runini rwemera imodoka kugirango ngo zinjire, mo imbere harimo umwanya imodoka ziparikamo ndetse n'ihema ritwikira imodoka kugira ngo zitangizwa n'izuba.

Icyumba umurwayi ahukiramo kigizwe n'igitanda gikozwe mu cyuma ndetse na parasitike gifite n'imifariso, aho harimo amafoto yongera ubwiza bw'icyo cyumba, amadirishya azana umwuka mwiza ku murwayi ndetse intebe yifashishwa n'umuganga mugiye ari kuvura ndetse inifashishwa n'umurwaza.

Birakwiye ko dutera imikindo ndetse n'ibindi biti imbere yo kwa muganga ndetse nahatangirwa serivisi z'ubuzima, kuko bitwongera umwuka mwiza duhumeka ndetse nikagaragaza n'isuku y'Igihugu, nitubikora ibyo byose tuzagira ubuzima bwiza, tutibagiwe no gutera amarangi ndetse n'izindi gahunda zo kwimakaza umuco n'isuku.

Mu cyumba kiberamo inama, mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuzima, umwe ari kwigisha abandi uburyo bwo kwirinda Malriya, aho abari guhabwa inama bafite mudasobwa imbere yabo, bari kwandikamo inama n'inyunganizi, biri kubera mu nama, imbere yabo hari amazi ndetse n'intebe ziri kwifashishwa gutanga inama.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi baruhukira harimo ibitanda byinshi bitandukanye, aho bigizwe n'ibyuma, purasitiki, imbere yaho hari n'indi meza zifashishwa mu buvuzi, aho baterekaho imiti bibagiwe gutera umurwayi imiti ndetse harimo n'amatereviziyo yifashishwa mu kugaragaza amashusho, amadirishya yinjiza umwuka mwiza muri icyo cyumba.

Ibintu byose bikorerwa mu buvuzi, bijyanye no gufata ibizami ndetse no kwirinda indwara yifashisha agapfukamunwa yicara ku ntebe kugira ngo arusheho gukora akazi neza, yifashisha mudasobwa ndetse hari n'utubata abikamo, imiti n'ibizamini kugira ngo ha atagira ibyo yitiranya cyangwa byangiza.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi bw'abana higanjemo ibikoresho bitandukanye by'ibikinisho, harimo igitanda gifite imifariso yifashishwa mu kuryamanaho n'umurwayi ndetse n'intebe yicarwaho n'umurwaza ndetse n'iyicarwaho n'umuganga igihe ari gutanga ubuvuzi butandukanye.

Agatangada ko kwa muganga, gakozwe mu byuma ndetse gafite n'imigozi, ndetse kifashishwa iyo hari umurwayi urembye ,wavunitse, ndetse ufite imbaraga nkeya, bamuvana mu rugo, bamujyana aho hatangirwa serivisi. Birakwiye kuba tugakoresha kuko koroshya akazi kandi ni ingenzi mu buzima bwacu.

Umuforomokazi ari gufasha umurwayi kugenda, aho umurwayi bigaragara ko ntambaraga afite atabasha kwigendesha, yifashisha igikoresho koranabuhanga bimeze nk'akagare ndetse n'imbago kugira ngo abashe kugenda urugendo runini, harimo ibikoresho bitanga umwuka mwiza kugira umuntu arusheho kugira umwuka umeze neza.

Umuganga w'inzobere mu bugororangingo, aho ari kuvura umurwayi imvune ndetse imvune akenshi iterwa na siporo nyinshi ndetse no gutsikira n'izindi mirimo ivunanye, aho umuntu ufite ikibazo wegera impuguke mu buzima, akagufasha kwikanda ndetse no kukuvura iyo ndwara.

Inzobere mu buvuzi zigizwe n'abaganga harimo abaforomo ndetse n'inzobere mu kubaga aho bifashisha ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse harimo ibyifashishwa mu kongera urumuri ndetse no kongera ingano y'ibyo bari kubaga.

Ingobyi batwara abarwayi kwa muganga, akenshi bigizwe na plastiki. Ifite imigozi ifasha kugira ngo bazirike umurwayi mu gihe agiye kwa muganga atabasha kugwa ndetse bikarushaho koroshya urugendo. Birakwiye ko tumenya ukuntu ingobyi ikora kandi tukajya tuyifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Gukora siporo iringaniye, ni ingenzi ku mubiri kurusha uko umuntu yakora siporo ndengakamere. Aho umuntu ashobora gukora siporo iringaniye, ahagaze ku kaguru kamwe cyangwa agafata ku ntebe, akazamura akaguru kamwe, akandi gahagaze. Cyangwa agakora siporo ari kugenda bisanzwe atiruka.

Umuntu uri gukora siporo ngororamubiri yo kwiruka, afite imikaya ikomeye ndetse afata imboga n'imbuto ku gihe, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Zigizwe n'amashu, amaronji, inyeri, karoti, imboga rwatsi, inyanya, ibitunguru ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Kwa muganga ibikoresho bitandukanye bimwe muri ibyo ngibyo harimo: Nk'ibitabo byandikwamo amakuru y'abarwayi, utubati tubikwamo ayo makuru, ibipupe byigirwaho n'abanyeshuri, amarinete bahereza abafite ikibazo cyo kutabona ndetse n'insimburangingo bahereza abafite ubumuga. Ibyo byose bigatuma barushaho gutanga serivisi nziza ku bazikeneye.

Ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga harimo ibikapu byifashishwa mu gutwara imiti ubutabazi bw'ibanze, imiti itandukanye ,ibinini ndetse niy'amazi ,amavuta ,amapomade ,inshinge zifashishwa mu gutera imiti mu maraso ,ibiyiko byifashishwa mu kubara imiti ndetse no kuyishyira mu ipapuro itangwamo.

Inzobere n'abarimu muri siporo batugira inama y'uko igihe tumaze gukora siporo isaba imbaraga nyinshi nko kwirukanka, guterura ibyuma, ari byiza gufata amafunguro yujuje intungamubiri, harimo ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri kandi ukabifatira ku gihe.

Usanga ahakorerwa siporo ngororamubiri haba hari umwarimu ufasha abaje gukora siporo akabigisha siporo bagomba gukora ku buzima bwabo zitabagiraho ingaruka, aho usanga nk'umuntu akora siporo makeri, akazamukaho gakeya mu mavi hakihina kugira ngo arusheho kugira imbaraga mu maguru.

Inzobere mu buvuzi ndetse n'abaforomo bagira uruhare runini mu kwita ku gisebe aho bagifuka kugira ngo bakirinde kujyamo imyanda ibyo bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse igisebe kigakira vuba. Iyo badapfutse igisebe kirarwara kizamomashyira ibyo bigatuma ubuzima bwe bujya mu byago.

Igikapu cya parasitike cyifashishwa mu gutwara imiti y'ubutabazi bw'ibanze, harimo inshinge, amavuta, ibinini ndetse n'ibitambaro byifashishwa mu kunga umuntu yavunitse. Ibyo ngibyo bigatuma umuntu arushaho kumera neza, niyo mpamvu byifashishwa mu mupira w'amaguru ndetse n'ahandi hantu hahuriye abantu benshi.

Icyumba kirimo icyuma cyifashishwa mu buvuzi bwo gupima indwara z'imbere nko gufotora amagufwa kigizwe n'amambuto ,agatanga umurwayi aryamamo bagiye kumwohereza mu cyuma mu imbere akabati kifashishwa mu kubika amakuru ndetse no kubikamo ibitabo ndetse n'amatara yifashishwa mu kumurika.

Ihuriro ry'amafoto y'umuti gakondo ugizwe n'amavuta ndetse n'ibinini, aho uvura indwara z'amavunane nko kubabara ibikanu, kuribwa mu ngingo, kubabara mu mavi, kubabara mu nkokora, kubabara mu rushyi rw'akaboko ndetse no kubabara mu ijosi.

Imiti itandukanye ikozwe mu bimera, aho myinshi muri yo ikozwe mu gikakarubamba n'isabune, amavuta y'igikotori, amavuta y'amazi, amavuta yifashishwa mu kurwanya ibiheri n'izindi ndwara z'uruhu ndetse n'amavuta bakoresha bateka kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibimera byo mu ishyamba bifite imimaro itandukanye. Aho byifashishwa mu kuvura indwara, aho byakoreshwaga n'abasogokuruza bacu mu myaka yatambutse, bigatuma bagira ubuzima bwiza, bakirinda indwara ndetse n'igihe bafite indwara bakazivura ku buryo bworoshye.

Umuravumba ni igiti gikunze kumera mu ishyamba gifite amababi menshi ndetse n'amashami menshi; cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'inkorora, ibicurane ndetse n'izindi zitandukanye; akenshi abantu bagikoresha nk'umuti; bavura indwara zo mu nda ndetse n'izindi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umuti uvura indwara z'uruhu, aho zigamibyerubamba ufite akamaro gatandukanye ku ruhu rw'umuntu, aho wifashishwa mu kurwanya ibiheri, uruhu rufite amavuta menshi, uruhu rukanyaraye ndetse n'indi ndwara z'uruhu zitandukanye. Ubikwa mu gicupa cya parasitike gifite umufuniko kugira ngo ugumane umwimerere wawo.

Amoko atandukanye y'imiti, aho yose akozwe mu bimera, afite umumaro ukomeye mu kurwanya indwara z'uruhu nk'ibifaranga, ibiheri, ise, umubiri ukanyaraye ndetse n'izindi ndwara zifata uruhu cyane cyane nk'abakuze.

Ishashi yabugenewe yifashishwa mu kubika imiti gakondo, aho inyuma bashiraho icyapa cyanditseho aho umuti wakorewe, igihe uzamara, uburemere bw'umuti, ndetse n'uko ukoreshwa, ibyo ngibyo bigatuma uzawukoresha yirinda kwangizwa n'uwo muti.

Ibicupa bya parasitike bifite umumaro ukomeye cyane mu kubika imiti y'ibyatsi ndetse n'ibinini. Aho bashyira imiti mu gicupa, nyuma bakomekaho igipapuro cyanditseho ubwoko bw'imiti urimo imbere, uburyo ikoreshwa ndetse n'uburyo bakwiye kuwukoreshamo buri munsi.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo aho bimwe bifite ibibabi birebire ibindi bikaba bifite ibibabi bimeze nk'umutima. Hari ibizana imbuto, ibizana amahwa, indabyo zisa umutuku n'izisa umuhondo, ibifiye imizi ndetse byose bikifashishwa mu kuvura ndetse no kwirinda indwara.

Akenshi usanga imiti gakondo itegurwa ku buryo butandukanye, aho iba igizwe n'amababi, imizi ishyirwa mu isekuru kugira ngo barusheho kuyitunganya, isekuru iba ifite isuku barabanza bakayiyoza ndetse n'umuhini bakawoza kugira ngo itagira imyanda ijya mu miti.

Isekuro n'umuhini, bikozwe mu giti ndetse hamwe na hamwe bigiye bikozwe no mu kibumba, ariko ifite akamaro kanini mu gusekura imiti kugira ngo ibashe kwivanga n'amazi kugira ngo uyinywa, ize kugera mu mubiri ku buryo bworoshye kandi bumunogeye.

Usanga imiti imwe n'imwe bayibika mu bicupa bya plastic aho bafata plastic bakayizengurutsaho igipapuro cyanditseho amagambo uko umuti ukoreshwa ndetse nyuma yaho bakanawupfundikira kugira ngo utabasha kwangirika, nyuma y'aho bakabona kuyijyana aho icururizwa ndetse no mu bigonderabuzima.

Igikakarubamba ni ubwoko bw'ikimera gikunze kuba ahantu hatabarizwa amazi menshi, kiba gifite amababi icyatsi, ntabwo kigira amashami, iyo ugisatuyemo imbere usangamo gifitemo ibintu bireduka ari byo bivura indwara z'uruhu, ibiheri, ise, ibibyimba ndetse n'izindi ndwara z'uruhu.

Imiti gakondo ifite amabara atandukanye ibitswe mu bipapuro ndetse n'indibitswe mu bicupa bifite amabara atandukanye ibyo byose ikaba imanitse mu tubati kugira ngo hirindwe kwangirika kwayo ndetse izamara n'igihe kirekire cyane aho imiti ivura indwara imwe biba imanitswe ahantu hamwe ndetse n'indi ikamanikwa murundi ruhande.

Igicumucumu ni ikimera kimeza mu ishyamba, aho kiba gikeneye amazi ndetse n'izuba, ibyo bituma gikura neza, ndetse kinifashishwa mu buvuzi, aho kigenda kivura indwara zitandukanye, haba muri Afurika ndetse no mu mahanga.